Tsikeni ni nziza cyane abantu barazikundakashyamba hano hatarige ahantu hagiye haribi dukoresha basanga abantu kwa nyira bakayitegerezayadukoreshe batazi udukoresho twiza cyane.

Ishuri ni ryiza cyane abantu bararikunda kuko ujyanamo umwana wawe bakamwigisha, uwo mwana akamenya ubwenge, akajya kwiga no mu mashuri makuru akarangiza, akabona akazi.

Abantu bitwa abaveterineri, abantu bakingira amatungo yose, usanga ari abantu beza cyane, iyo itungo ryawe ritagira ikibazo, bakarigukingirira neza ntirigire ikibazo.

Korari ni nziza cyane, usanga iri kuririmba ihimbaza Imana. Ugasanga abantu babyitegereza, barishimye abandi bacuranga, abandi barimo barahimbaza Imana. Ugasanga bameze neza cyane.

Ibiryo ni byiza cyane, abantu bose barabikunda kuko ari byo biba bigize abantu , umuntu ataririye kuko atabaho. Ugasanga abantu bose bakunda ibiryo kandi barishimye kuko bariye.

Abaganga ni beza cyane, abantu barabakunda kuko nk'iyo umuntu arwaye agiye ku..., aribo yitabaza, akitabaza n'Imana, ugasanga baramukijije, arakize, atashye yishimye.

Ibigo by'amashuri ni byiza abantu barabikunda kuko abana babo biga neza, bagatsinda cyangwa abandi bagatsindwa. Abatsinze bakabajyana mu mashuri yo hejuru cyane.

Abanyeshuri kenshi mu maso mu mashuri y'abana bakuru ni beza cyane usanga bari kwiga neza cyane, abarimu babashyize murite bari kugenda abasobanurira icyo abandi bamusobanuriye.

Abanyeshuri bo muri segonderi biga neza, bafite amazi, bambaye udupfukamunwa, igihe covide yari yarateye, ariko ubu biga bisanzuye bameze neza cyane.

Abantu bize ubwubatsi ni beza cyane， usanga bari kubifashisha nk'iyo inzu yahirimye， kugira ngo bongere bayisane，ukamuha amafaranga，akaza ku kubakira， akakubakira neza.

Abantu biga ubutetsi ni beza cyane usanga bazi guteka, ku buryo wabatumira mu bukwe bakagutekera neza cyane ibiryo biryoshye, ukabyishimira kuko baba barabyize barabyigishijwe.

Abanyeshuri ni beza cyane, usanga bashushanya ibishushanyo byinshi bitandukanye nkuko abarimu ba baba barabyigijwe nabo bakabibigisha ugasanga abanyeshuri bamenye ubwenge mu mashuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yo hejuru, usanga basetse, bari kwandika, bakandika neza, bagakosoza, ugasanga bari kwereka mwarimu ibyo banditse, mwarimu akabereka icyo bishe n'icyo bakoze.

Ibikoresho bakoresha mu bitangazamakuru ni byiza cyane, usanga amakuru ari guca hirya no hino, ukumva abantu bari kumva amakuru atandukanye, cyangwa indirimbo bakazinyuza kuri sitidiyo, ukumva indirimbo nziza zishimishije.

Butike ni nziza cyane abantu barayikunda, kuko usanga harimo udukoresho dutandukanye, cyamba ahantu bakorera ibintu ho ku ruganda, ukabona ni udukoresho twiza, turashimishije kuko abantu baba ari bwo bwa mbere batubonye.

Iyo abantu bavuye gusenga cyangwa bavuye mu nama, usanga bari kwifotoza, ukabona abantu barishimye, ukabona abantu bari kwigira ukuntu, barangiza bakabafotora, bakishyura amafaranga bagataha bishimye.

Abantu bize ubwenjeniyeri ni beza cyane babwiga n'ububaji ugasanga abantu baste akazi, mububaji kabaza, umuntu akabagurira imbaho bakabaza neza cyane, bakabaza utuntu twabugenewe bari guhanagura, bagatera amarangi, bambaye naga mu ntoki ukagira kugira ibikoresho babishime.